Uru ni urwego rw'ubwishingizi bwa Radiyanti, buri mu ibara ry'ubururu n'umweru. Hari n'abantu, abagabo babiri n'umukobwa umwe. Abagabo bambaye amakoti y'umukara, n'umukobwa wambaye agakoti k'umukara n'ipantaro.

Icyapa kiriho umugore w'imisatsi y'umukara wambaye ikoti ry'umukara ipantaro y'umukara n'agapira ka shokora, cyanditseho buri munsi ni amahirwe mashyashya yo kumva ugakosora intego zawe, buri mukiriya akumva ko afite agaciro ku kibazo cyose yaba afite.

Sosiyete y'ubwishingizi wayigura ukoresheje terefone yawe, ukanze akanyenyeri, gatanu, gatatu, rimwe, urwego, turikumwe, gura ubwishingizi bw'ubuzima bwawe n'umuryango wawe.

Serivisi za banki muri telefoni y'umuturarwanda. Ikaze kuri banki ya Kigali byorohereza buri mukiriya biri mu ibara ry'umweru. Ikaze kuri banki ya Kigali ikaba inyuma ari ibiri mu ibara ry'ubururu.

Iduka ricuruza imyenda, amashati ,amapantaro, bigiye bitandukanye, y'ubwoko butandukanye, ishati y'amabara amashati ya tafite amabara, n'amapantaro atandukanye amabara.

Sosiyete ishinzwe kuzana ibinyabiziga kuva mu mahanga ikabigeza mu Rwanda ikanabigurisha, ikaba ifite ikirangantego cya a na ba na ga, kitwa Akagera Motozi.

Imodoka igurishwa, ikaba iri mu ibara ry'umukara, ikaba igurishwa, miliyoni cumi n'eshanu, jkaba yitwa Hyundai, ikaba ari iya muri bibiri na cumi n'ikenda.

Iyi ni inote yo mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba iri mu ibara ry'ubururu, inote y'igihumbi. Ikaba iriho inyamaswa bita inkende, ibigori.

Umuntu wambaye ikote ry'umukara afite amafaranga y'amanyamahanga mu ntoki y'amanyamerika, inyuma hari ibyapa byerekana ivunjisha ry'amafaranga y'amanyamahanga.

Ibiro bishinzwe ivunjisha, biherereye Muhabura, BP bibiri na cumi na kane i Kigali, terefoni zeru umunani kane, makumyabiri na rimwe, makumyabiri na karindwi, icyenda.

Iyi ni sosiyete y'ubwishingizi iherereye muri Muhanga, ikaba irangwa n'ibirango by'amabara abiri ari byo ubururu n'umuhondo.

Ibiro bishinzwe gufasha abaturage serivisi zitandukanye z'ubwishingizi, hari abakiriya, abafasha abakiriya bambaye umweru n'utugozi tw'ubururu mu ijosi.

Imodoka y'amashanyarazi. Urifuza iyihe? kuyibona ni mukanya nk'ako guhumbya. Iyi ni ukwamamaza imodoka z'amashanyarazi, ku buryo no kuyibona, ikugeraho byihuse mukanya nk'ako guhumbya.

Aha ni mu ihuriro ry'abaturage bari mu bucuruzi bugiye butandukanye; harimo umugabo wicaye, harimo abantu bagenda batambuka; harimo imineke, ibitoki, ibijumba n'amapapayi.

Ihuriro ry'abantu benshi biganjemo igitsina gabo bambaye ishati y'umweru, ishati y'umuhondo, ingofero, ikote ry'umukara bari kugura abandi bagurisha ibintu bijyanye n'inkweto z'amabara agiye atandukanye.

Akazu ka MTN, gafite ibara ry'umuhondo, mo imbere gafite ibara ry'umweru, hariho abamama babiri, umwe wambaye umupira w'umutuku wirabura, undi yambaye umupira w'umukara wirabura.

Ndabona abantu babiri, umwe ni umukiriya wa serivisi y'itumanaho hano mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Emutiyene, uwo bari kumwe n'umukiriya we ari kumufasha kuri serivisi za Emutiyene yambaye ikote ry'umukara.

Iyi ni inzu iherereye muri Kigali, kanombe ifite ibyumba bine n'ubwogero butatu. Ikaba ifite imireko y'ubururu, ikagira inkingi z'umweru ikagira hasi hashashishijwe amakaro.

Iyi ni inzu ikodeshwa amadorari ibihumbi bitatu ku kwezi ni ahantu heza hafite ibyumba bitanu na ofisi (office ) iherereye Gacuriro muri Kigali cite.

Inzu igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u rwanda ikaba iherereye i Kigali i Kanombe ikaba ifite amabara atandukanye ikaba yubakishije amabuye, amarangi y'umweru n'amabati meza agezweho y'imituku

Inzu ikodeshwa ifite ibyumba bibiri ubwogero bumwe, ikaba iherereye i Kigali kicukiro, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana biri mirongo itanu ku kwezi, ushaka guhamagara ni nimero hamagarazeru zeru karindwi umunani kabiri karindwi kane kane karindwi umunani icyenda.

Iyi ni inzu ikodeshwa ifite ibyumba bibiri n'ubwogero bumwe, ikaba iherereye mu Kibagabaga, ikaba ifite inkingi z'ibara ry'umweru.

Urujya n'uruza rw'abaturage, baje mu isoko aho bagura bakagurisha ibikoresho bigiye bitandukanye nk'amatapi n'ibindi bigiye bitandukanye mu isoko.

Ubu ni ubwishingizi buri ku rupapuro rw'umuhondo; ubwishingizi butangwa na Leta y'igihugu y'u Rwanda, bwitwa mituwele; ni ubwisungane mu kwivuza.

Uru ni urupapuro rw'umuhondo, ruriho ifoto n'imyirondoro, n'umwaka, rwa nyirabyo rukaba rukoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, nko gukoreshwa mu bwisungane bwo kwivuza.

Utu ni udutabo turi mu mabara asa, dukoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, kamwe ni mituwere ishinzwe ubwisungane bw'abaturage, akandi ni agatabo gashinzwe ubwizigame bw'umuturage wo mu Rwanda.